Umugabo wambaye umwenda w'akazi, wambaye itaburiya isa umweru, wambariyemo karavate ndetse n'ishati y'umweru, karavati ikaba isa umukara, harimo n'umweru. Ndetse hirya ye handikishijwe amagambo y'ubururu ariko bwererutsemo, ndetse ubwo bururu bukaba buzitijwe n'akarongo k'ubururu gatambika kanamanuye.

Umukobwa wambaye isengeri ipantaro y'umukara inkweto z'umukara, wicaye urimo urakora siporo ari kuruhuka ndetse iburyo bwiwe hari amagambo ahanditse yanditse ngo uyu munsi uharire kwiyitaho no kuruhuka.

Ishusho iriho umugabo wasetse umugabo yambaye ishati y'umweru iriho karavate y'umukara, ndetse hakaba hirya yiwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ariko yanditse ku kantu gasa umutuku, ako kantu kakaba ari akantu k'agatambaro gatambitse mu gipapuro gisa umuhondo, ndetse hakaba handitswemo n'amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ishusho igaragaza abagabo babiri bari kumwe, umwe afite telefone ngendanwa ndetse umwe akaba yambaye ikoti ry'ubururu bwiyijimye, ariko yambariyemo n'ishati y'umweru ifitemo n'ubururu bwerutsemo ndetse akaba afite ikayi, iyo kayi ikaba isa icyatsi ndetse ifitemo n'ibara ry'umweru hasi.

Iyamamazwa ry'ikigo gishinzwe ubwishingizi cya Radiant ndetse hagaragara umugore ndetse wasetse, uri gusuhuzanya n'undi mugabo w'uruhu rwera ndetse hirya y'uwo mugore iburyo bwe hari n'undi mugore wirabura nawe wasetse, ufite imisatsi myinshi ndetse hari n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Ishusho y'umweru iriho ikinyabiziga cy'amapine ane, iki kinyabiziga kikaba ari gitoya mu bugari ndetse no mu burebure, iki kinyabiziga kikaba kiri mu ibara ry'umutuku ndetse hakaba hari n'inzu icyegereye iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku ku gisenge ndetse n'inzugi.

Inyubako ndende igeretse kabiri hafi y'iyo nyubako hari icyapa kigaragaza suramu aritazi, ndetse icyo cyapa kikaba cyandikishijweho amagambo y'umweru ariko yanditse ku ibara ry'ubururu, ndetse hafi y'icyo cyapa hari abantu bahagaze bari kureba amasiganwa y'imodoka.

Ishusho y'umweru iriho kwamamaza kigo cy'ubwishingizi cya radiyanti, ndetse iyo shusho ikaba yanditsweho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse n'ay'ubururu, afite ibara ry'ubururu, ariko garutsemo cyane, ndetse hirya yabo hakaba hari telefoni ngendanwa, yanditsemo imibare igiye itandukanye.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo k'imisoro n'amahoro mu Rwanda kwerekana izina ry'isosiyete, umusoro w'ubucuruzi wishyuwe itariki yishyuriyeho ndetse n'amafaranga yagombagwa kwishyurwa. Inyemezabwishyu irimo kandi amakuru ajyanye n'ishami ry'isosiyete, igihano cy'ubukererwe ni nyungu zishyuwe. Inyandiko yerekana ko umusoro w'ubucuruzi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, wishyuwe mu karere ka Nyarugenge.

Umusaza n'umukecuru bari kumwe bahoberanye. Umukecuru wambaye agatambaro k'umutuku ku mutwe ndetse wasetse, ndetse ibumoso bwe hari ikigo gishinzwe ubwishingizi cya Radiant, ndetse ibumoso bwabo handikishijwe amagambo y'igitare.

Ishusho igaragaza ibara ry'umutuku ryanditseho amagambo akurikira: gutemberana ubwishingizi ukugoboka mu bihe mu bihe by'akaga iyo shusho iho umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu, inkweto z'umweru ndetse yambaye agakote k'ikigina wicaye ku gikapu ururimi rw'amahanga bavuga varize isa icyatsi.

Telefone igendanwa irimo ubutumwa bugufi bwanditswe mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza, hejuru y'ubwo butumwa bugufi hariho uturango tugaragaza umutima ndetse ni utugaragaza niba wa wayishimiye cyangwa se utayishimiye hariho n'udutangaro ndetse n'utubazo.

Telefoni ngendanwa igaragaza banki ndetse n'uburyo bwo kwishyura, ndetse ubwo buryo bwo kwishyura bwandikishijwe mu magambo y'ururimi rw'amahanga rw'icyongereza, ndetse hakaba harimo naho kuzuza, aho kuzuza hari mu ibara ry'umweru, hagiye haciyemo n'uturongo dusa umukara ariko tutagaragara neza.

Terefone ngendanwa irimo ishusho ry'ubururu, iryo shusho ry'ubururu rikaba ryandikishijwemo amagambo y'umweru, ndetse ayo amagambo y'umweru akaba arimo n'imibare yandikishijwe iryo bara ry'umweru. Ndetse hakaba harimo n'irindi bara ry'umweru ryandikishijwemo amagambo y'umukara, harimo amafaranga ndetse n'andi magambo ari mu rurimi rw'amahanga.

Telefone ngendanwa ikoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ukoresheje intoki mu kirahure, iyo telefone ikaba irimo amashusho agiye atandukanye arimo ishusho iri mu ibara ry'ubururu ryandikishijweho imibare iri mu ibara ry'umweru.

Terefone ngendanwa irimo ibara risa ubururu, iryo bara risa ubururu ryandikishijweho amagambo y'umweru yanditseho ngo viza. Ndetse munsi yaho handitseho amagambo ari murimi rw'Icyongereza, amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yandikishijwe mu ibara risa ubururu ariko ubururu bwijimye.

Umugore wambaye agatambaro k'umweru mu mutwe w'umucuruzi ari kuganira n'umukiriya wiwe wari uje kugura ibintu ndetse uwo mugore w'umucuruzi akaba yambaye ishati nini isa umutuku ndetse ubona ko harimo ni roza.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo umugore uri guseka wambaye agafasha mu bijyanye n'akazi, umwambaro yambaye umufasha ujyanye n'akazi uri mu ibara ry'umutuku waciyemo n'uturongo tw'umweru, ndetse muri iryo duka hagiye harimo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ibikapu bibiri, kimwe gifite ibara ry'ubururu buvanze n'icyatsi cyijimye harimo amabara akurikira harimo umutuku, harimo umweru, umukara ndetse n'ubururu mu mirongo igiye iciyemo.

Ishusho y'imipira imanitse ahantu, kuri iyo mipira harimo umupira w'umutuku ufite uturongo tw'umweru ndetse n'ubururu hagati. Iyo mipira ndetse akaba ari imipira ine, hakaba harimo n'undi mupira w'icyatsi hose n'undi ufitemo umweru wiganjemo umukara.

Iduka ricuruza inkweto zigiye zitandukanye ndetse hari n'inkweto z'abagore izo nkweto z'abagore ziri mu mabara agiye atandukanye harimo inkweto zisa mu ibara ry'umweru cyane hakaba hari n'izindi nkweto zifite ibara ry'umukara ariko aho bakandagiza ikirenge harimo umweru ugiye uvanze n'ibara rya kacyi.

Iduka ricuruza ibijyanye na gakondo ndetse muri ibyo bijyanye na gakondo harimo ibigiye bifite n'amabara agiye atandukanye, harimo ibigiye bifite amabara y'ikigina ndetse asamo kake, harimo ibigiye bifite amabara asa umutuku ndetse n'ibigiye bifitemo amabara asa umweru avanze n'umukara.

Inyubako irimo akabati k'ubweru kanini karimo ibiribwa, nk'inanasi ndetse munsi yaho hagiye harimo imisegi, imisego ifite amabara atndukanye, hsrimo ifite amabara y'ibitenge. Ndetse harimo n'ifite amabara y'umweru harimo n'umukara.

Iduka ricuruza imyambaro harimo ibitenge bigiye bitandukanye, harimo ibitenge bifite amabara y'icyatsi hagiye harimo n'umutuku ndetse hakaba harimo n'ibivanze umweru, umukara, ubururu byose bivangitiranyije ikaba imanitse ku murongo itondekanyije.

Telefone ngendanwa igaragaza iduka ricuruza imyambaro igitandukanye, harimo nk'amakote ndetse ayo makote akaba ari mu mabara agiye atandukanye, amakote agiye ari mu ibara ry'ubururu, ari mu ibara ry'umukara, ndetse n'ari mu ibara ry'umweru.

Ibibumbano bine biriho imyambaro igiye itandukanye, iyo myambaro ikaba ari imyambaro y'igitsina gore ndetse iyo myambaro ikaba ari imyambaro iri mu ibara ry'umutuku, harimo n'imyambaro iri mu ibara ry'umweru, hakaba n'ikindi kibumbano cyambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Iduka ricururizwamo imyambaro igiye itandukanye. Ndetse iryo duka rikaba ririmo imipira imanitse ku cyuma. Icyo cyuma kikaba gifite irangi risa umukara. Ndetse iyi mipira ikaba ari imipira yo mu buryo bugiye butandukanye. Ndetse hakaba harimo n'imipira ifite amabara agiye atandukanye.

Imodoka enye ziri kumwe. Imodoka imwe ifite ibara ry'umutuku hose ndetse rikaba rifitemo n'umukara hasi, ikaba yegeranye n'indi modoka nayo ifite ibara ry'umutuku, imbere yayo irebana n'izindi modoka ebyiri zifite amabara y'umweru.

Imodoka enye ziri ku murongo umwe zifite amabara asa, ayo mamodoka afite ibara y'umweru, ifite amabara y'umutuku inyuma ndetse n'umukara hasi.

Ikinyabiziga gifite intebe ebyiri zigaragara, hirya yacyo har’ikinyabiziga gifite irangi ry'umweru ndetse n'itara ry'umutuku inyuma, ndetse hirya y'icyo kinyabiziga hari ipoto y'umuriro ris’umweru ndetse n'ibiti biyikikije.

Abagabo babiri bahagaze umugabo umwe ufite inda nini yegeye imbere, ndetse wambaye agapira kagufi, ku gapira kagufi kakaba kari mu ibara ry'umukara ariko werurutsemo ndetse akaba ari kumwe n'undi musore wambaye umupira w'umukara ariko yambaye n'ipantaro ya kake yerurutsemo cyane.

Inyubako ndende ifite ibirahuri byinshi iriho n'amakaro ari mu ibara ry'umweru ndetse imbere y'iyo nyubako hakaba hari ikinyabiziga cy'amapine ane, iki kinyabiziga kikaba gifite ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'amatara asa umutuku inyuma.

Ikinyabiziga cy'amapine ane kigurishwa. Ikinyabiziga gisize irangi ry'umukara, ndetse inyuma yacyo hakaba hari uruzitiro rw'amabuye ndetse urwo ruzitiro rw'amabuye akaba ari n'urukuta rusize irangi ry'umweru ndetse kuri urwo ruzitiro rw'amabuye hakaba hariho ibyuma bizitiyeho, ibyo byuma bisize mu irangi ry'umukara ariko ryerurutse.

Imodoka y'umukara ikikijwe n'abagabo babiri, basuhuzanyije umwe wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara ndetse nundi wambaye ishati y,umweru iriho imirongo y'umukara.

Ikinyabiziga cy'amapinane gisize irange ry'umweru harimo n'umukara ndetse icyo kinyabiziga inyuma yacyo hakaba hari ikindi kinyabiziga gifite irange ry'umweru ndetse n'ibirahuri by'umukara, cyanditsweho n'amagambo y'ubururu bwijimye.

Ikamyo yahagazweho nabagabo babiri umwe yambaye umupira w'ubururu bwijimye ndetse n'ipantaro y'umukara, ibumoso bwe hari umugabo wambaye umupira wumutuku ariko ujyakuba umukara mo, ndetse n'pantaro yumukara.

Ikinyabiziga gitwara abantu ndetse icyo kinyabiziga kikaba ari ikinyabiziga cy'amapine. Icyo kinyabiziga kiba gifite irangi ry'umweru hakaba hari abagabo bahagaze imbere yacyo, ndetse abo bagabo bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu bwijimye, ndetse hakaba n'undi wambaye umupira w'umukara ipantaro ya kaki.

Ikiganza gifashe inoti z'igihumbi, ndetse n'izindi noti zigiye zitandukanye, ziteretse ku meza ariko ikiganza kimwe kindi kikaba kizikozeho, ariko kitazifashe zose mu ntoki. Ndetse icyo kiganza cy'uwo muntu akaba yambaye itaburiya isa mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati irimo imirongo y'umweru ndetse na kake, umugabo akaba afashe ku cyuma, icyuma kizana amafaranga, ndetse imbere y'iwe ku meza hakaba hateretseho amafaranga yo mu buryo bugiye butandukanye ndetse n'imibare iriho ikaba itandukanye.

Inoti y'ijana y'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda yandikishijwe amagambo ari mu rurimi rw'amahanga rw'igifaransa ndetse iyo note ikaba iriho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, icyo kirangantego kikaba ari igiseke ndetse kigaragiwe n'utumenyetso tw'icyatsi ndetse hakaba hariho n'abantu bashushanyije kuri iyo noti.

Inoti ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda, izo noti zikaba ari inoti z'amafaranga magana atanu, amafaranga magana atanu ndetse akaba ari inoti ebyiri, imwe iri hejuru indi iri hasi , izo note zikaba ziriho ibirangantego bigiye bitandukanye, inoti yo hasi iriho abana batatu bicaye kuri mudasobwa.

Abantu batatu bicaye umwe yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse na karuvati umutuku wijimye ndetse nundi mugabo wambaye ishati y'umweru ifite ibara ry'umutuku ku nkokora ndetse akaba anambaye karuvati y'umutuku.

Inoki zirabura zifite inzara ndende zifite amafaranga atandukanye yo mubihugu bitandukanye harimo ayo muri amerika noyo muri kenya ndetse hari n'igikuta gisize irange ry'umweru, iburyo bw'uwo muntu.

Ishusho igaragaza umuntu wambaye ishati y'ubururu iriho isaha ndetse uwo muntu afite amafaranga y'inoti ziganjemo iza bitanu, ku ruhande hariho fagitire y'agapapuro k'umweru kandikijwe n'ikaramu y'ubururu.

Ishusho y'umweru iriho igiceri, icyo gice ari igiceri kigaragaza banki nkuru y'u Rwanda ndetse iyo banki nkuru y'u Rwanda ikaba ari mu magambo yanditse kuri icyo giceri, kikaba kiriho n'umwaka cyakoreweho, kikaba kiriho umubare ibihumbi bibiri n'ikenda.

Umugabo wirabura wambaye ishati iciyemo uturongo hagati ndetse utwo turongo hagati tukaba ari uturongo turi mu ibara risa ikigina ariko ikigina cyijimye, umugabo akaba hafi yiwe hari amafaranga menshi aharunze ndetse akaba ari gukora ku cyuma, icyo cyuma gishinzwe kuzana amafaranga.

Icyapa gisa ubururu, icyo cyapa kikaba cyandikishijweho amagambo ari mu kirimi cy'icyongereza. Icyo kirimi cy'icyongereza kikaba cyandikishijwe amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse hariho n'ibara ry'icyatsi ndetse muri ayo magambo hejuru ku mutwe waho handikishijwe amagambo ari mu kirimi cy'ikinyarwanda, yandikishijwe ibara ry'umweru.

Inyubako irimo utubido dutoya tw'umweru tugiye dutandukanye, ndetse kandi ikaba, utwo tubido tukaba turi mu kabati, ku kabati kari mu ibara ry'umukara ndetse igikuta cyayo kikaba kiriho amakaro, aya makaro akaba asa n' ibara ry'umweru aciyemo n'uturongo tw'umukara.

Inyubako ifite igisenge cya kake ikagira, igikuta gisa umweru ndetse n'ikindi gikuta cy'ibumoso cy'amatafari asa umukara yagiye avanze n'asa umutuku wijimye. Ndetse hakabamo n'ibara ry'ubururu, ndetse yateretsemo amazi ari mu ducupa.

Umusore wirabura wambaye isengeri y'umweru wambaye itiriningi y'umukara wambaye inkweto z'umutuku ahagararanye n'umwana, umwana wambaye inkweto z'ubururu ndetse hakaba hari n'umucuruzi w'umukobwa wambaye agapira k'umutuku.

Ibyuma byinshi biri ku murongo ndetse bikaba byakuze imirongo itatu; ariko hari ibyuma bibiri biri ku murongo wabyo umwe, ndetse ibyo byuma bikaba bifite icyuma hejuru gisa n'ibara ry'umukara gifite aho gufata habiri.

Umugore wicaye ufite imisatsi y'umukara wambaye igitenge, hafi ye hari ameza ateretseho ibyo kunywa, harimo n'amata ndetse hakaba ari n'ibyo kurya ndetse hafi yiwe hakaba hari n'intebe isa ubururu kuri ayo meza.

Inzu icururizwamo ikanatangirwamo amata ndetse harimo n'ibicuruzwa biri mu moko agiye atandukanye, ndetse imbere y'iryo duka hari icyapa gishushanyijeho inka ndetse ikaba ari irimo amabara y'umukara ndetse n'amabara y'umweru ndetse hariho n'ikindi cyapa hejuru yayo yandikishiho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Inzu itangirwamo amata ikanacururizwamo amata, ndetse iyo nzu ikaba irimo umugore wambaye agatambaro ku mutwe, ako gatambaro gasa icyatsi, harimo n'amabara y'umukara, ndetse akaba afite n'igikombe kirimo amata, icyo gikombe kiba ari igikombe kinini kirimo amata.

Ishusho igaragaza umusore uri kubuganiza amata ahabugenewe ndetse umusore akaba afite umupira yambaye usa mu ibabara ry'umukara ndetse n'ipantaro yambaye isa mu ibara ry'ubururu.

Abasore batanu bafite ibirahuri birimo amata ndetse harimo n'abasore babiri ndetse basetsa ariko ku ruhande rumwe n'undi umwe basetse uri ku ruhande rw'iburyo, ndetse bakaba bari kureba muri telefoni irimo irabareba ishaka kubafata amashusho ndetse bakaba bafashe ibikombe babikosanyijeho.

Akabati k'ikigina karimo amabido abiri ndetse kegereye ku gikuta gisize irange ry'ubururu hejuru, hasi gifite amatafari atukura .Munsi yako kabati hariho igitambaro cyanditseho amagambo y'umweru.

Isahani iriho amafunguro arimo amafunguro arimo inyama ariko inyama ntoya ziseye ndetse ayo mafunguro akaba ari n'amafunguro asa n'ayakaranzwe ariko akaba asa nk'ayagiye agira uruhu rutukura mo ndetse iyo sahani ikaba iri mu ibara ry'umweru.

Inyubako ifite igisenge cy'umweru harimo imirongo iciyemo muri icyo gisenge isa ubururu, muri iyi nzu harimo umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu, agakoti k'ubururu bwijimye ndetse harimo n'ibiribwa harimo n'ibyo kunywa n'amata.

Ishusho y'umweru yandikishwa amagambo y'umukara n'ay'umutuku ndetse iyo shusho ikaba iriho telefone ngendanwa, telefone ikaba igaragaza uburyo bwo kwishyuramo ndetse ubwo buryo buba bwandikishijwemo n'amagambo ari mu rurimi rw'amahanga rw'Icyongereza.

Uburyo bwo kwishyura bugaragazwa muri telefoni ngendanwa ndetse kandi hakaba harimo ibara ry'umweru, iryo bara ry'umweru ririmo akarongo kamanuye akandi kazamuye k'icyatsi kagaragaza ko kwishyura byagenze neza.

Ishusho igaragaza ururimi rw'amahanga rwanditse ku ibara ry'umweru, ariko iryo bara ry'umweru rikaba ryanditsweho n'amagambo ari murimi rw'icyongereza, ururimi rw'icyingereza munsi yaho kandi, haciyeho umurongo muremure, umurongo utambitse, umurongo uri mu ibara ry'ubururu, kandi munsi yanditseho amagambo y'ururimi rw'icyongereza.

Ibara ry'umweru ryandikishijweho amagambo y'umukara ndetse ayo magambo y'umukara akaba arimo n'imibare. Iyo mibare ikaba igiye iri kumwe n'ayo magambo yandikishijwe ibara ry'umukara. Hakaba harimo amagambo yandikijwe ibara ry'umukara ugaragara cyane n'andi yandikijwe ibara ry'umukara ariko adakabije cyane mu kugaragara. Harimo n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku aciyemo n'umurongo w'umutuku uwuzitiye.

Urwandiko rwandikishijweho n'amagambo y'umukara, ndetse rwanditse ku ibara ry'umweru, ndetse kandi iburyo bwaryo hari amagambo agaragaza Rwanda Reveni Otoriti, mu rurimi rw'amahanga, ariko mu rurimi rw'Ikinyanrwanda bisobanuye ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Mudasobwa irimo ibara ry'umweru iryo bara ry'umweru ryandikishijweho amagambo y'umukara ndetse ku ruhande rw'ibumoso hejuru hakaba ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda ndetse kandi munsi yacyo hakaba harimo amagambo yandikishije ibara ry'umukara ndetse n'andi ari mu mbonerahamwe.

Ibara ry'umweru ryandikishijwemo amagambo y'umukara ndetse ayo amagambo y'umukara akaba arimo amagambo asa umukara cyane n'ayandi magambo asa umukara ariko udakabije, ndetse munsi y'ayo magambo hakaba hagiye handitsemo n'imibare igiye itandukanye, ndetse hakaba harimo n'ururimi rw'amahanga rw'icyongereza rwanditsemo.

Mudasobwa irimo ishusho rigaragaza ikirangantego cy'igihugu cy'Urwanda, repubulika y'urwanda ndetse iburyo bwacyo hari ikigo gishinzwe imisoro cya rwanda reveni otoriti ndetse munsi yaho hagiye harimo ibiranga amazina y'abantu ndetse harimo n'amanimero agiye atandukanye.

Mudasobwa irimo ishusho rigaragaza ibara ry'umweru ryandikishijweho amagambo y'umukarakara, amagambo y'umukara akaba akaba ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse hirya y'aho ibumoso bwaho hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda cyanditseho repubulika y'u Rwanda ndetse hirya ho hari n ikirangantego cya Rwanda reveni otoriti.

Ishusho y'umweru yandikishijweho amagambo y'umukara, ndetse ibumoso bwayo hejuru hakaba hariyo ikirangantego cy'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Ndetse hirya yaho hakaba hariyo ikindi kirangantego cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ndetse hakaba hariho n'ikirangantego cyacyo. Munsi yaho hakaba harimo imbonerahamwe, iyo mbonerahamwe ikaba irimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'imibare.

Ibara ry'umweru ryandikishijwemo amagambo yirabura cyane n'ayandi adasa n'umukara cyane, gusa ajya kubamo umukara, muri ayo magambo ari mu mbonerahamwe igiye ifite imibare itandukanye.

Ibiganza biri guhererekanya amafaranga, amafaranga ari mu buryo butandukanye ndetse akaba ari ayo mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndetse ibiganza biri hejuru bikaba bifashe amafaranga ariho ishusho y'umugabo ufite imisatsi myinshi ariko isa umweru.

Ikibaho cyanditsweho amagambo ari mu mabara atandukanye, ayo magambo akaba ari amagambo ay'umutwe ari mu ibara ry'umutuku ndetse amagambo akaba ari mu rurimi rwamahanga rw'icyongereza ndetse munsi yayo magambo hari amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu bwijimye.

Amafaranga menshi aboheshejwe agapapuro k'umuhondo ndetse n'umweru hagati, ndetse muri uwo mweru hakaba handikishijwemo imibare igaragaza umubare w'ayo mafaranga, ari mu kirangantego cy'igihugu cy'Amerika y'amadolari.

Umugabo uri kwandika imibare ndetse umugabo wambaye umupirasa usa ubururu bwijimye ndetse havanzemo n'umutuku ariko udakabije cyane, hakaba ku ruhande rw'iwe hagiye hari ibyapa bigiye bitandukanye.

Inoti iyo mu gihugu cy'abanyamahanga, icyo gihugu akaba ari igihugu cya Tanzania. Iyo noti ikaba ishushanyijeho umusaza, umusaza ufite imvi, kandi izo mvi zikaba zivanzemo n'imisatsi isa umukara ndetse iyo noti ikaba ari inoti y'igihumbi.

Ishusho y'umweru isa nk'imeza y'umweru ariko urimo umukara werutsemo, iteretseho amafaranga, amafaranga ari mu buryo bw'intoti, izo ntoti zikaba ziri mu mibare itandukanye ndetse n'uko angana bikaba bigiye bitandukanye.

Inoti y'amafaranga ya magana atanu ndetse iyo noti ikaba ari inoti yo mu Gihugu cya Tanzania. Iyo noti ikaba iriho umubare magana atanu ndetse ikaba yandikishijweho n'amagambo y'icyatsi ariko kijimye ariko aya magambo akabayanditswe mu rurimi rw'Igiswahili, ndetse iyo noti ikaba iriho umugabo udafite umusatsi mwinshi ufite ubwanwa hejuru y'umunwa.

Umugabo ufite inoti ebyiri izo note imwe ikaba iriho umusaza wambaye amadarubindi ndetse n'indi ya kabiri iriho uwo musaza wambaye amadarubindi, imwe muri yo iriho umubare magana atanu ndetse n'iyindi ya kabiri iriho umubare igihumbi.

Ibiganza byera bifashe ku noti, iyo noti ikaba ari inota y'ijana iri kuva mu cyuma gishinzwe gutanga amafaranga, ndetse icyo cyuma kikaba kiri mu ibara ry'umweru harimo uturongo tw'udushumi tw'umukara ndetse akaba ibyo biganza bifashe kuri mudasobwa.

Amafaranga y'inoti ari mu mabara agiye atandukanye ndetse akaba arimo amafaranga yo mu bihugu bitandukanye ariko harimo n'amafaranga akoreshwa mpuzamahanga, ayo mafaranga akaba ari amafaranga y'amanyamerika akaba ariho ikirangantego gishushanyijeho umuntu uwo muntu akaba ari uwo mu ruhu rwera ufite imisatsi myinshi.

Urutonde rw'ibihugu by'amahanga harimo ibihugu bitandukanye bifite n'amadarapo atandukanye, iburyo bwabyo hari imibare igiye itandukanye iyo mibare ikaba iri mu ibara ry'umweru ariko yanditswe ahantu hasa umutuku.

Umuntu w'uruhu rwera ufite amafaranga mu ntoki z'iwe, amafaranga akaba ari amafaranga agiye atandukanye, amafaranga akaba ari mu ibara ry'umweru harimo n'icyatsi ndetse hariho n'ifoto y'umuntu, uwo muntu akaba ari umuntu ufite imisatsi myinshi.

Inoti z'amadorari zifashwe n'ibiganza bibiri, izo noti z'amadorari zikaba ziriho umubare ijana. Ndetse kuri izo noti z'amadorari zikaba ariho isura y'umuntu, uwo muntu akaba atagaragara neza. Ndetse izo ntoki zifashe izo noti zikari ari intoki zijya gusa nk'izera ariko zirimo uruhu rwirabura.

Inyubako ndende iririho uturindabasazi tw'umweru ndetse kandi munsi yaho hakaba harimo ibyapa biri mu mabara atandukanye. Ibyo byapa hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'ikindi kiri munsi yaho kiranga cy'icyatsi, cyandikishijweho amagambo y'umweru.

Inyubako ifite igisenge cy'umweru ikagira n'amakararo y'umweru, icyo gisenge harimo uturongo dutatu duciyemo tw'umukara, iyo nyubako irimo abagabo batatu, harimo umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu ndetse harimo n'undi wambaye umupira w'umutuku.

Inyubako ifite irangi ry'ubururu hejuru,, ndetse iryo rangi ry'ubururu ryandikishijweho amagambo y'umweru, ayo magambo y'umweru akaba ari mu rurimi rw'amahanga rw'Icyongereza, ndetse munsi y'ayo magambo hari abagore babiri bahagaze, abo bagore babiri bahagaze, umwe yambaye umupira w'icyatsi ndetse akaba yambariye inyuma n'agakote katagaragara neza ariko karimo umweru n'umukara.

Icyapa kiri ku nyubako ndende ndetse icyo cyapa kikaba kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse ayo magambo yanditsweho akaba ari amagambo ari mu rurimi rw'amahanga, urwo rurimi aka ari ururimi rw'icyongereza.

Mudasobwa ziteretse hejuru y'urukuta, urukuta rusize ibara ry'umweru, ariko hariho akabaho gasize irangi risa kaki, kaki ariko yijimye ndetse hariho n'ibiganza bibiri bitagaragara neza biri hafi y'izo mudasobwa.

Inyubako iriho icyapa hejuru, icyo cyapa gisizwe irangi ry'ubururu kandi handikishijwemo amagambo y'umutuku ndetse n'ay'umweru ndetse ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'amahanga, urwo rurimi akaba ari ururimi rw'Icyongereza ndetse hakaba hagiye havanzemo n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo.

Inyubako irimo umudamu, umudamu witadeye mu mutwe ndetse afite n'agatambaro kari mu ijosi k'umukara ndetse iyi nyubako ikaba ifite icyapa hejuru y'umuryango kiriho ibara ry'umweru ariko iryo bara ry'umweru ryandikishijwemo amagambo y'ubururu, amagambo yanditswe murimi rw'amahanga.

Igikuta cy'umweru kiriho utubaho twa kare, dukoze kare ndetse turi mu ibara ry'ikigina ndetse akandi kari hagati kari mu ibara ry'umweru n'akandi hejuru kari mu ibara ry'ikigina ndetse utwo tubaho tukaba dutondetse ku murongo, ukaba ari umurongo ugoramye ariko uzamuka.

Inyubako isize irangi ry'umweru ndetse ikaba irimo utubati, ikaba irimo ameza, ikaba irimo n'intebe; iyo nyubako ikaba irimo ameza, afite ibara risa mu buryo bw'ihina; ariko ihina risa mu buryo bwa kacyi.

Inzu iteretsemo ameza, ifite intebe esheshatu, izo ntebe zifite imisego isa icyatsi, ndetse zikagira amaguru, ndetse n'umugongo wazo ukaba usa n'ibara ry'ikigina.

Umuhanda nyabagendwa urimo igikamyo, urimo n'ipikipiki n'uyitwaye ndetse ibumoso bw'uwo muhanda hari intebe ndetse n'ameza bihateye, ndetse izo ikaba ari intebe enye ndetse n'ameza amwe.

Inyubako iteretsemo intebe, izo ntebe zikaba ari intebe ebyiri zegeranye. Izo ntebe zikaba ziri mu ibara risize, mu ibara ry'ihina ariko iryo bara rikaba ibara rya kaki. Iryo bara rya kaki risize kuri izo ntebe, rikaba rinasize ku kabati kari inyuma y'izo ntebe.

Utumeza dutoya duteretse hanze hafi y'inzu ifite urugi rusa icyatsi, imbere y'urwo rugi hakaba hari akantu k'amakaro ndetse ayo makaro akaba ari mu ishusho ry'umweru.

Inyubako y'uruziga. Iyo nyubako ikaba ari inyubako igiye irimo amabara agiye atandukanye, ikaba ari inyubako yakamo amatara, amatara asa n'ibara ry'ubururu, ndetse iyo nyubako ikaba yegeranye n'indi nyubako igaragara irimo amatara menshi amatara yaka umuhondo.

Inyubako ndende mu buryo bw'ubutambike ndetse n'ubuhagarike, ndetse ikaba isize irangi ry'umuhondo ariko uwo werererutsemo, ikaba ifite n'ikirangantego gisa ibara ry'umutuku.

Umutaka munini usize ibara ry'umutuku, ndetse umutaka ukaba ufite ibyuma biwufata ibyo byuma bikaba bisize irange ry'umukara ariko ku umukara werutsemo. Ndetse uwo mutaka ukaba uri hafi y'inyubako ariko inyubako ndende igeretse gatatu.

Inyubako ebyiri zegeranye imwe igeretse kabiri, iyindi iri munsi yayo ikaba itageretse, ndetse iyo nyubako ikaba ifite inkingi zigiye zitandukanye, inyubako ifite inkingi ikaba ari inyubako iri hasi, ikaba ifite inkingi zisa mu ibara ry'umuhondo, ariko umuhondo warerutsemo.

Inyubako ndende, inyubako igeretse kenshi, isize irangi ry'umweru ariko havanzemo n'umuhondo. Ariko umuhondo usa nk'ujya gutukuramo usa nk'ibara rya kaki. Ndetse iyo nyubako hejuru yaho hakaba hari ikirere, ikirere kirimo ibicu by'umweru ndetse n'ubururu bivanze.

Inyubako ndende ifite imiryango y'umukara mo imbere harimo intebe z'umuhondo, hejuru y'uwo muryango handikishijwe amagambo y'umweru, ari mu kirimi cy'amahanga aravuga ngo radisoni buro.

Imitaka isa icyatsi itatu, ndetse ifitemo n'utwuma tw'umukara munsi yawo ubwo ndavuga hagati, yegereye inzu y'inyubako ndende ifite irange rijya gusa umukara ariko umukara nanone werurutsemo ukuntu.

Ahantu hitaruye hafi y'amazi hari ahantu hateye intebe zisa umweru, izo ntebe hari izifitemo ameza ayo meza ateretseho amafunguro atandukanye harimo ibyo kurya harimo n'ibyo kunywa

Hoteli ifite amazi yogerwamo n'abantu bagiye batandukanye, ndetse hakaba hari n'imitaka igiye itwikiriye ahantu abantu bicara bavuye koga, aho ahantu hakaba hasa nk'ibara ry'umutuku ndetse iyo mitaka nayo ikaba iri mu ibara risa umweru.

Ibyo kurya bitandukanye, ibyo byo kurya bikaba biri mu bwoko bugiye butandukanye ndetse bukaba buri mu byuma byabugenewe byo kubikwamo ibyo byo kurya, ndetse ibyo byo kurya bikaba biteretse ahantu mu nyubako, iyo nyubako ikaba ari inyubako yitaruye kandi ndende.

Inyubako ndende ifite amadirishya y'ibirahure gusa ndetse n'imiryango y'ibirahure, ikaba ifite irange risa umweru, ndetse ikaba ifite n'akapa kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga, kari mu ibara ry'umukara.

Igipangu gifite ibyuma bigiye bisongosoye biri mu ibara ry'umukara bifatanya ndetse n'igikuta kigiye kibitandukanya cy'amabuye ndetse gifite irangi risa n'umweru hejuru hafite umukara icyo gipangu kirimo intebe z'umukara, indabyo zigenda zitandukanye n'amabara atandukanye aririmoi icyatsi n'umweruru ndetse n'umuhondo hagati y'umutuku.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubwishingizi ndetse iyo nyubako ikaba isize irangi ry'umweru ndetse hakaba harimo n'amakaro akaba ari mu ibara ry'umweru ndetse harimo n'amakaro abiri asa mu ibara ry'umukara ndetse kuri iyo nyubako hakaba handikishijweho n'amagambo atukura.

Inyubako igeretse, ifite uturindabasazi dusa umutuku, ndetse ikaba ifite n'imiryango y'ibirahure, ndetse ikaba ifite n'inkingi zisa umweru. Akaba ari inkingi ebyiri zegeranye. Ndetse munsi yaho hakaba hari ibyapa bigiye bitandukanye.

Inzu ifite inkingi z'umweru, ifite n'igisenge cy'umweru, ndetse hateyemo n'intebe z'ubururu, zifite amaguru y'umukara. Izo ntebe zikaba ari intebe eshatu, ndetse zigaragiwe n'ibikuta bibiri by'umweru.

Inyubako ndende ndetse munsi y'aho utaragera hasi hariho igikuta gitambitse gisize irangi ry'umweru ndetse kuri iryorangi ry'umweru hari irangi ry'ubururu ryandikishijweho amagambogambo y'umweru ari mu rurimi rwamahanga rw'icyongereza, ndetse no hejuru yaho hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ariko umukara ujya gusamo umweru mo ukuntu umukara uakaba wandikishijwe amagambo y'ururimi rw'icyongereza.

inyubako igeretse ifite ibyapa hejuru bigiye bitandukanye harimo icyapa gisa ubururu hose kirimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse kigaragiwe n'ibindi byapa yaba iburyo yaba n'ibumoso

Inzu y'umweru ifite amakaro hanze, ifite amagambo yanditseho n'ibara ry'umukara rivuga ngo bima ,hejuru hariho igisenge cyayo, icyapa kiriho ibara ry'umutuku ndetse n'iry'umweru hejuru.

Telefoni ngendanwa iriho ishusho igaragaza inyubako, iyo nyubako ikaba yubakishijwe imbaho, imbere hagaragara ndetse izo mbaho zikaba ziri mu ibara rya kake, ndetse hakaba yashushanyijeho n'akaziga gafite akadomo hejuru ndetse ako kaziga kakaba gasa mu ibara ry'umutuku.

Telefoni ngendanwa irimo ishusho igaragaza inyubako, inyubako isize irangi risa umutuku ariko werutsemo, ndetse ku muryango wa yo hakaba hasizeho irangi ry'umweru. Ndetse hakaba hariho n'ibyapa bibiri biriho byandikishijweho amagambo y'umweru; ariko ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza.

Inyubako ifite icyapa kiri imbere yayo kiri kuri iyo nyubako, icyo cyapa kikaba gisa icyatsi ndetse cyandikishijweho amagambo y'umweru ndetse hakaba hirya yaho hariho n'ikirangantego ndetse kigaragaza ibara ry'umutuku ryandikishijwe amagambo agiye atandukanye, harimo iryanditseho ngo "sawa" riri muri icyo kirangantego gisa umutuku.

Inyubako igeretse kabiri iriho ibyapa bitandukanye harimo icyapa gifite ibara ry'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru ndetse n'ikindi cyapa cy'umweru cyandikishijweho amagambo y'umukara.

Inyubako ndende y'ibirahure ifite amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru yanditseho ndetse n'icyapa cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru. Ndetse iyo nyubako ikaba igiye ifite imiryango myinshi igiye itandukanye.

Inyubako y'ikigo cy'ubwishingizi yicawemo n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, harimo n'abakobwa ndetse n'abagore, ndetse iyo nyubako ikaba irimo umusore cyangwa se umugabo wambaye amadarubindi, wambaye ikoti risa umukara, ndetse akaba ateganye n'undi mugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ndetse wambariyemo n'ishati y'umweru na karuvati y'ubururu irimo imirongo y'umweru.

Inzu ikorerwamo mu gutanga ubwishingizi. Iyo nzu ikaba irimo umusore wambaye umupira w'umukara, ndetse n'ipantaro y'umukara. Akaba ari kurebana n'umugore wambaye umupira w'icyatsi bombi bakaba bicaye, ndetse umusore yicaye ku ntebe isa n'ibara ry'umweru.

Inyubako ndende ifatanye n'indi nyubako, inyubako ifatanye na yo ikaba ku gikuta cyayo hasizeho irangi ry'umweru ndetse iryo rangi ry'umweru ryandikishijweho n'amagambo y'icyatsi ndetse iyo nyubako ikaba ifite amadirishya ajya gusa ubururu bwijimye ndetse ariko kubera igikuta gisa icyatsi, harimo n'ibara ry'icyatsi muri ayo madirishya.

Inzu ikorerwamo mu buryo bwo gutanga inguzanyo ndetse iyo nzu ikaba irimo ibyuma bigaragaza amashusho bigiye bitandukanye kandi ibyo byuma bikaba ari ibyuma bine byegeranye ariko bitandukanyijwemo n'intera hagati yabyo.

Abagore benshi bahagaze ku murongo, bambaye ibitenge ,ndetse bafite n'undi mugore wambaye ipantaro isa ubururu ufite uruhu rwera, uri imbere yabo ndetse abo bagore bamwe muri bo bazamuye ibiganza byabo bifunze igipfunsi.

Umugabo n'umugore, bakoze ubukwe, umugore wambaye agatimba, ndetse n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, yambayemo ishati y'umweru, akaba ku ruhande rwe hari amagambo yanditse mu magambo akurikira; hari ijambo ryanditse ba pa ra bikaba byose biri mu ijambo riri mu ibara ry'icyatsi.

Urupapuro rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza ndetse ayo magambo akaba yandikishijwe icyatsi cyijimye ndetse no munsi y'ayo magambo akaba ari nayo mutwe w'aya magambo yose yandikishijwe amagambo y'ibara ry'icyatsi ryijimye ariko yanditse muburyo butoya butagaragara cyane ndetse iruhande rwayo rw'ibumoso hariho uturango tw'icyatsi.

Umukobwa uri guseka cyane ufite umusatsi mwinshi wambaye umwambaro w'akazi, usa umweru ndetse wambaye n'ishati y'umuhondo, iburyo bw'iwe ndetse n'ibumoso bw'iwe agaragiwe n'ibintu bitandukanye birimo intebe ndetse n'ameza.

Abantu bane harimo abagore babiri umukobwa umwe ndetse n'umugabo umwe, umugabo wambaye ishati ijya gusa kake ariko kake yererutsemo ukuntu, akaba yambaye n'ipantaro y'ubururu akaba ari kumwe n'umugore wambaye igitenge ndetse icyo gitenge akaba yambaye gisa n'i ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bari ahantu hamwe harimo umukobwa wambaye umupira w'umweru, wambaye ingofero y'umukara isa n'ifitemo amagambo y'umweru ndetse n'akantu k'ubururu hagati yayo, hirya yiwe hari umusore umwegereye wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umukara.

Ishusho y'ubururu yandikishijweho amagambo y'umweru, ayo magambo yanditswe mu rurimi rw'amahanga ndetse muri ayo magambo munsi yayo, hariho ikirangantego. Icyo kirangantego kiriho amabara y'umuhondo, mu buryo bw'iburyo ndetse n'uburyo bw'ibumoso ndetse mo hagati hakaba harimo ibara ry'umutuku ryandikishijweho amagambo y'umweru.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, iryo soko rikaba ririmo abacuruzi bagiye batandukanye, ndetse iryo soko rikaba rigiye ririmo ibiribwa bigiye bifite n'amabara atandukanye arimo ibifite ibara risa umweru, bifite ibara risa umutuku, ndetse hakaba hari n'amasakoshi amanitse, harimo isakoshi ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ayandi.

Abantu benshi bicaye bari gucuruza ibiribwa bitandukanye harimo; inyanya, ibitunguru, amashu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye hakaba harimo abagore bari imbere cyane bagaragara, umwe yambaye agatambaro mu mutwe gasa umweru.

Abagore babiri, umwe w'umucuruzi n'undi wumuguzi, umuguzi yambaye agapfukamunwa k'igitenge, karimo amabara atandukanye, ayo mabara akaba arimo umutuku, harimo n'icyatsi ndetse akaba anambaye umupira w'umutuku ariko umutuku werererutsemo, ndetse akaba anambaye ipantaro y'ubururu.

Inyubako ndende mubuhagarike, ndetse n'ubutambike, ifite uturindabasazi tugiye dutandukanye, uturindabasazi turi mu buryo bw'ibyuma ariko nanone bijya kumera nk'ibumba, ndetse utwo turindabasazi ako hejuru gafite ibara ry'umutuku ariko wererutsemo, aka kabiri kari hasi yako gafite ibara risa umuhondo, ndetse hasi y'iyo nyubako hari abantu benshi, b'ingeri zitandukanye, bari mu byerekezo bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye: harimo imineke, harimo n'amacunga ndetse n'inanasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Harimo umugore wambaye igitenge kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo harimo n'icyatsi.

Inyubako igeretse kabiri kandi ndende mu buryo bw’ubutambike, hafi yaho har’abantu benshi bo mu ngeri zitandukanye bari kujya mu byerekezo bitandukanye, hakaba harimo umusore umwe wambaye umupira w'icyatsi ndetse wambaye n'ipantaro ya kaki, hafi ye hari n'abandi bagore batatu bahagaze ndetse n'abandi babagaragiye benshi.

Ishusho igaragaza isoko, isoko rikorerwamo guhaha ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye, hari abantu benshi ndetse hafi y'aho ngaho winjira mu isoko, harimo igipangu kigaragaza ibara ry'umutuku, kikaba gifite n'ikirangantego kiri mu magambo arambuye agaragaza aho hantu bwite.

Abasore babiri bahagaze ndetse n'umwe wunamye ufite igikapu ari kugifunga, ndetse hari n'umudamu uhagaze ufite telefone ngendanwa waba ufite n'agatambaro mu ijosi, ako gatambaro kakaba kari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Abagore bane bari hanze y'inzu, hari ibase irimo imineke, iyo base isa ubururu, n'indi base y'umutuku irimo voka, umugore ufite ibase y'ubururu irimo imineke, n'undi umwegereye, wambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe.

Inyubako ndende irimo abantu benshi, isizwe n'irangi risa ikigina, hasi hari imodoka za polisi, harimo umupolisi umwe wambaye agapfukamunwa, ndetse n'abandi bagabo babiri begereye hafi bicaye ku modoka isa umukara.

Inyubako irimo imyambaro igiye itandukanye ndetse n'ibicuruzwa byari bitandukanye, ibicuruzwa bya gakondo harimo uduseke ndetse harimo n'ibitenge harimo n'imyambaro igiye itandukanye yo kwifubika harimo iy'abagore harimo n'iy'abagabo.

Isoko ry'ibiribwa ricururizwamo ibiribwa bitandukanye higanjemo karote, inoryi' urusenda, ndetse n'ibindi bitandukanye hakaba haririmo abagore bane bari imbere cyane bagaragara ndetse ikarimo n'abandi bantu benshi batandukanye.

Isoko ricururizwamo imyambaro yambarwa ku birenge ndetse n'ibikapu bigendanwa, ikaba irimo ibikapu bigiye bifite amabara atandukanye ndetse iryo soko ririmo n'inkweto zigiye zitandukanye, izo nkweto akaba ari inkweto zo kwambara zifunguye ndetse zigiye zifite amabara agiye atandukanye, harimo izisa umuhondo, ubururu, n'umukara wijimye n'andi mabara.

Abantu babiri umwe n'umugore undi n'umukobwa ndetse umukobwa yambaye umupira w'umuhondo uriho ikirangantego cy'ikigo cy'itumanaho cya MTN kiri mu kaziga k'umukara ndetse n'amagambo ya MTN yandikishijwe ibara ry'umukara.

Ububiko bukonjesha buri mu ibara ry'umukara ariko werurutse cyane rifite igipapuro gisa umuhondo kigaragaza ko ari ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni ndetse iki gipapuro gifite ibara ry'umuhondo kikaba kiriho imibare itandukanye.

Akazu gatoya gakorerwamo ibikorwa bijyanye n'ikigo cy'itumanaho cya MTN ndetse ako kazu kakaba gafite imiryango ibiri itandukanye, imiryango ndetse akaba n'imiryango y'amadirishya ndetse ako kazu kakaba kariho ikirangantego gitambitsemo cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru, ariko kikaba n'ikirangantego cy'amamaza.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyrne ufite telefone ngendanwa mu ntoki ziwe, ndetse muri iyo telefone mu kirahure cyayo harimo ibara risa umuhondo ryandikishijweho n'amagambo y'umukara, ndetse rikaba rifite n'aho wandikira hasa umweru.

Ishusho igaragaza akazu gakorerwamo n'umukozi w'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, akaba ari akazu k'umuhondo gashushanyijeho ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye bijyanye no kuba wakishyura ndetse wanabitsa amafaranga.

Ikiganza cy'umuntu ufite terefone ntoya muri iyo terefone haragaragaramo ibara ry'ubururu ryandikishijwemo n'amagambo afite ibara ry'umweru, ndetse imbere y'uwo muntu ufite terefone hari icyapa cy'umuhondo cyandikishijweho amagambo y'umukara cya emutiyene.

Intoki zifashe telefone ngendanwa, iyo telefone ikaba irimo ibara ry'ubururu ariko handitsemo amagambo y'umuhondo ndetse n'amagambo y'umweru, akaba afite igikapu uwo muntu ndetse akaba anambaye ipantaro y'ubururu ariko bwerurutsemo cyane.

Abagabo babiri basuhuzanyije bambaye imipira y'imihondo umwe yambaye ipantaro y'umukara undi yambaye ipantaro y'ubururu, inyuma yabo hari abana bahagaze ndetse n'abandi bantu bahagaragiye.

Inzu isize irangi ry'umuhondo ndetse harimo n'umweru hagati ndetse iyo nzu ikaba iriho icyapa kigaragaza ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni ndetse ijambo emutiyeni ryandikishijwe amagambo y'umukara ari mu ruziga ndetse hanze y'iyo nyubako hakaba hari abantu bagiye batandukanye hakaba hari n'umusore wambaye ishati ndende ndetse n'ipantaro yu'bururu bwijimye.

Inzu ntoya ikorerwamo n'umucuruzi ucuruza ama inite, ayo ma inite acuruza ndetse akaba ari ama inite y' ikigo cy' itumanaho cya emutiyene. Ndetse uwo mucuruzi urimo akaba yambaye umupira ujya gusa umutuku, werurutsemo ndetse kandi akaba ari kumwe n'umuguzi waje wambaye umupira w'umweru. Ufite n'igikapu cy'umukara.

Ishusho igaragaza inyubako irimo ibyuma bigiye bitandukanye zisize ibara ry'umutuku ndetse iryo bara ry'umutuku rikaba ryandikishijwemo amagambo y'umweru ndetse hariho n'ikirangantego kigaragaza ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cya Eyatelii.

Abacuruzi bambaye imyambaro y'akazi iyo myambaro ikaba iri mu ibara ry'ubururu bwijimye ndetse abo bacuruzi bakaba bambaye n'utunozasuku turi mu ibara ry'umweru ndetse utwo tunozasuku bakaba batwambaye hejuru ku mutwe.

Urubuga rukoreshwa mu guhaha amafunguro, hari igikuta cy'icyatsi ndetse hari n'imineke, imineke ivanze n'inyanya, amashu ndetse n'izindi mboga rwats, ndetse hari n' telefone ikoreshwa mu buryo bw'itumanaho no ku bundi busobanuro hari n'izindi nimero zakoreshwa mu buryo bwo kubaza uko wabona ibyo biribwa.

Telefoni ngendanwa irimo ishusho y'umweru, ishusho y'umweru yandikishijwemo amagambo y'umukara, ndetse harimo n'icyatsi kibisi kiri munsi y'ayo magambo, ndetse muri icyo cyatsi kibisi handikishijwemo amagambo y'umweru ariko ari mu rurimi rw'amahanga.

Inyubako iteretsemo utubati dutandukanye, utubati tw'ibyuma ndetse hakaba harimo n'umugabo wambaye umupira ujya gusa umuhondo ariko utukuyemo ndetse umugabo yambaye ipantaro y'ubururu, umugaboakaba ari umugabo wirabura, akaba afite ikarito yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse ikarita yo ikaba iri mu ibara ry'umweru.

Telefoni ngendanwa igaragaza amashusho atandukanye. Harimo ibara ry'umweru iryo bara ry'umweru ryandikishijweho amagambo y'umukara, ndetse hari n'ahandi hari ibara ry'umweru ariko ari ibara ry'umutuku ryandikishijemo amagambo y'umweru ndetse hariho n'umuntu ufite telefoni ngendanwa.

Umusore wirabura wambaye ishati isa umukara wererutsemo ndetse akaba inyuma y'iwe hari isakazamashusho rigaragaza ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse akaba higanjemo n'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ishusho igaragaza umuntu wicaye kuri mudasobwa ndetse iburyo bwiwe hariho ibara ry'icyatsi; ryandikishijweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza; ayo magambo akaba yandikishijwe mu ibara ry'umweru; ndetse hejuru yaho handikishijwe ibara ry'umuhondo ryanditseho rwanda.

Igikoni kirimo iziko rikoresha ibituruka ku butabire ndetse n'icyuma gikonjesha, harimo amadirishya y'umweru afite aho gukingurira hasa umukara ndetse harimo n'aho gucomeka ukoresha amashanyarazi.

Inyubako irimo amatara arindwi, ikaba ifite ameza ateguyeho amafunguro ndetse kuri ayo meza hakaba harimo indabyo iri mu kivaze; ndetse kandi ku rukuta hakaba hariho irangi risa umweru.

Inzu isize irangi ry'umweru ku gisenge ndetse no ku gikuta, iyo nzu ikaba iri ahantu mu ruzitiro, urwo ruzitiro rukaba rusize irangi ry'umweru ndetse hafi y'urwo ruzitiro hari ibiti bihateye ndetse muri iyo nyubako harimo n'ikinyabiziga gihagazemo ndetse muri iyo nyubako hanze yayo hari ibyuma bitambitsemo ndetse ibyo byuma bikaba bisize irangi ry'umukara.

Inyubako ndende mu buryo bw'ubutambike ndetse ifite irangi ryo hejuru risizeho kandi hasi yaho hari inkingi zigaragara nkaho wagira ngo ni uruzitiro, urwo ruzitiro rukaba ruriho n'umuryango kandi hariho n'ibyuma by'umukara bigiye bitambitseho.

Kantine irimo ibinyobwa bidasembuye, aho harimo imashini ibika ibinyobwa kugirango bitangirika, iri mu ibara ry'umweru, imbere y'aho hari etajeri irimo ibyo binyobwa.

Igipangu kinini kirimo inyubako isize irange ry'umweru, muri iyo nyubako harimo ibyatsi harimo n'ibiti biteyemo, ndetse kandi hari n'amadirishya afite ibara rijya gusa umukara wererutsemo, ndetse n'imiryango ijya gusa umukara wererutse.

Inzu ifite amabati y'umutuku ifite icyatsi cyijimye, ikaba ifite imiryango y'umweru ndetse n'amadirishya asa umweru, akaba afite n'inkingi z'umweru. Iyo nzu ikaba ifite ikigega hejuru yayo.

Inyubako ifite igisenge gisa mu ibara ry'umutuku ariko harimo n'umweru hagati ndetse icyo gisenge kikaba kiri mu nyubako isize irangi ry'umweru ku nkuta ndetse akaba arimo n'amakaro azamutse agaragaza aho batekera mu gikoni.

Igikuta kiriho amakaro y'umweru ndetse umubare w'ayo makaro agaragara hari amakaro ane ariko agiye afite ibice bibiri bisaguka hasi no hejuru ku mpande zombi.

Inzu isize irangi ry'umutuku ndetse iyo nzu hanze hayo hakaba hari amavaze ateretsemo ibiti bigiye bitandukanye by'amoko atandukanye ndetse iyo nzu ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru ndetse hakaba hari n'akarindabasazi kari hasi gasize irangi ry'umukara.

Inyubako ifite igisenge cy'umukara ndetse ikaba ifite n'amadirishya ariho ibyuma bisize irangi ry'umweru ndetse iyo nzu ikaba ifite ibara ry'umweru uvanze n'umutuku ariko umutuku werurutsemo ndetse hasi y'iyo nzu harimo ibyatsi biteyemo.

Inyubako iri kwamamazwa, inyubako yo gukodeshwamo, ndetse inyubako abantu baza bagakodeshamo bakararamo, inyubako ifite irangi risa umweru ndetse ikaba ndetse inafite igikuta gisa umukara harimo n'umweru. Ndetse ikaba ifite n'uturindabasazi dusa umukara ariko werurutse.

Inyubako igurirwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari umukobwa wambaye umupira w'umweru, wambaye ipantaro y'ubururu ndetse ufashe ku gikoresho, icyo gikoresho akaba ari igikoresho gikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye ndetse akaba hafi yiwe hari inanasi.

Inyubako icururizwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse harimo n'ibinyobwa bigiye bifite amabara atandukanye ndetse ibyo binyobwa bikaba biri no mu bubiko bugiye butandukanye, iyo nyubako ifite igisenge kirimo ibara ajya gusa mu buryo bwa kacyi ndetse harimo n'amatara y'umweru.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite igisenge cy'umweru ndetse ku gikuta hariho icyapa gisa ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru, ndetse mur’iyo nyubako harimo umugore uhagazemo wambaye ishati y'umutuku ndetse n’ipantaro.

Iduka ririmo imikandara itandukanye y'amabara atandukanye ndetse harimo n'ibikapu birimo amabara atandukanye muri ibyo bikapu harimo igikapu gisa umutuku n'ikindi gisa umweru ndetse no muri iyo mikandara harimo iy'umutuku harimo iy'umukara ndetse n'iya kaki.

Abagore batatu umwe afite isakoshi y'umukara ari hagati y'abagore babiri ndetse yambaye ikanzu y'ubururu ndende, akaba afite n'umusatsi mwinshi, iburyo bwe hari umugore wambaye ikanzu y'ubururu ndetse yambaye n'akasharupe k'umutuku mu ijosi.

Inyubako ifite amakararo y'umweru ariko harimo n'umukara, ndetse hakaba hateretsemo ameza ndetse n'intebe zigiye zitandukanye, ayo meza ari mw’ibara ry'umutuku ndetse n'intebe ziri mw’ibara ry'umutuku ariko zifite imisego isa umweru urimo n'umukara, ndetse iyo nzu ifite n'igisenge cy'umweru.

Inyubako icururizwamo ibintu bitandukanye, irimo umwana wambaye agakabutura k'umutuku umupira w'umuhondo, ndetse hakaba harimo abagore bagiye batandukanye, barimo umugore wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Inyubako igurirwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse iyo nyubako ikaba irimo abagabo batatu, umwe wambaye umupira w'imbeho umupira uri mu ibara risa umukara ndetse akaba anambaye ipantaro isa ubururu bwijimye akaba ahagararanye n'undi mugabo muremure wambaye ipantaro y'ubururu bwijimye ndetse yambaye umupira w'umuhondo ariko urimo n'umutuku.

Abagore bambaye ibitenge umwe muri bo afite umwana, bafite mituwere do sante ndetse n'amakaye yo ku kwivurizaho, bari kwa muganga hirya yaho hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Intoki zifite ikarita y'umuhondo iyo karita y'umuhondo, yandikishijweho amagambo y'umukara ndetse ikaba ari ikarita y'ubwishingizi bwo mu kwivuza ndetse iyo karita ikaba iriho ikirangantego cya repubulika y'igihugu cy'u Rwanda.

Ibara ry'umweru ryanditswemo n'amagambo y'icyatsi aya magambo y'icyatsi akaba yanditswe mu rurimi rw'amahanga urwo rurimi aka ari ururimi rw'Igifaransa hakaba handitseho amagambo avuga ngo mituwele do sante ndetse munsi yaho kanditse amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yanditse ngo hefu keya.

Ikarita yo kwivurizaho iri mu ibara ry'umuhondo ifatishijwe urutoki. Urrwo rutoki rukaba rusa n'ururiho ibintu by'umutuku ku nzara ndetse hakaba handikishijwe n'amagambo agaragaza Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda harimo n'igiseke hagati mu ruziga rw'icyo kirangantego.

Inyubako ikorerwamo ubwivuzi ifite icyapa hejuru cyandikishijweho amagambo y'umukara ndetse gifite ibara ry'umweru, hirya yaho hakaba ari ikirangantego cy'igihugu ndetse kirimo n'igiseke hagati.

Inyubako itangirwamo ibikorwa by'umutekano ndetse hicayemo abama benshi higanjemo n'abakecuru, muri abo ngabo harimo uwambaye igitange cy'icyatsi, uwambaye igitengi cy'umutuku hasi, ndetse n'ikindi gisa umweru hejuru.

Inyubako ndende igeretse kenshi ifite ibirahure bisa n'ibara ry'ubururu ndetse iyo nyubako akaba ari inyubako ikorerwamo ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi bw'ubuzima ara esi esi bi ndetse hakaba hariho n'ikirangantego cy'icyo kigo cya ara esesi bi.

Ishusho igaragaza umugore wambaye igitenge yatunguwe, akaba afite impapuro mu ntoki, afite n'ikarita y'ubwishingizi ya mituweli, ndetse iyo karita ikaba iri mu ibara ry'ubururu, ariko ubururu bwandikishijweho amagambo y'umukara.

Ibara ry'ubururu, muri iryo bara ry'ubururu handitesemo amagambo yandikishije ibara ry'umweru, ndetse muri ubwo bururu harimo ibara ry'icyatsi rigaragaza ibimebyetso by'abantu batatu, begeranye ndetse harimo ikirangantego k'ikigi cy'ubwishingizi ara esi esi bi

Ibara ry'umweru ryanditswemo n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'iry'icyatsi ndetse n'iry'umukara utukuyemo, ndetse aya magambo akaba yanditse mu rurimi rw'igifaransa, ariko akaba arimo n'amagambo yanditse mu kirimi cy'U Rwanda, ndetse hakaba harimo amagambo avuga ngo” ejo heza “ akaba ar’amagambo ari ku mutwe w'ayo magambo yandi ari mu rurimi rw'igifaransa.

Inyubako irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye kuko ari ibicuruzwa bigurwa n'abaguzi, ndetse iyo nyubako ikaba ifite amakara, amakaro y'umweru, ayo makaro y'umweru arimo uturongo tugiye duciyemo tureture utwo turongo tukaba turi mw'ibara ry'umukara.

Akabati karimo ibiribwa bigenda bitandukanye ndetsekaba ari n'umukobwa uhagaze wambaye ikabutura ngufi ndetse wambaye n'ingofero ku mutwe. Ingofero ya ikaba iri mu buryo bw'ikigina ariko cyijimye ndetse umukobwa akaba anambaye inkweto z'umweru.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye amavuta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse iyo nzu ikaba irimo ibintu bicuruzwa biri mu tubati, ibyo bintu bicuruzwa bikaba bigiye bifite amabara agiye atandukanye ndetse n'ako kabati kakaba ari akabati karekare bigiye bibitsemo.

Inyubako icururizwamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ndetse iyo nyubako ikaba irimo umugabo wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye wambariyemo ishati y'umweru, ndetse na karavati y'umukara. Ndetse uwo mugabo akaba afite mu ntoki ze terefone ngendanwa.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibicuruzwa bigiye biri mu mashashi ndetse, hakaba harimo n'ibindi bicuruzwa bigiye biri mu dufuka, ndetse harimo n'umugore, umugore wambaye igitenge gisa mu ibara ry'umukara harimo n'ikigina.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijweho amagambo y'umutuku. Ndetse kikaba ari icyapa kigaragaza inyubako cyangwa se ahacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Ndetse kikaba kirimo no kwamamaza kinagaragaza kinaranga aho ibyo bikorwa bibera. Ndetse iki cyapa kikaba kiri hafi y'umuhanda nyabagendwa, unyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Iduka rifite ibicuruzwa bitandukanye birimo umukobwa wambaye ikoti ry'ubururu, umupira w'umweru ndetse akaba afite terefone mu ntoki ndetse uwo mukobwa akaba afite imisatsi myinshi.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, iyo nyubako ikaba irimo amakaro asa n'i ibara ry'umweru, ndetse hakabamo n'amakaro asa ibara ry'umukara agiyetambitsemo. Iyo nyubako ikaba ifite igisenge gisa n'ibara ry'umweru, aka ari naryo range rigiteyeho.